Imbaga y'abantu yahurijwe hamwe n'umuyobozi wabo, bafite ibintu bari kuganiraho, umuyobozi afite mikoro afite ibintu ari kubabwira, iyo mbaga yiganjemo urubyiruko, abantu bakuru, bose barahagaze bafite ikintu bari kuganiraho.

Ipironi riteye ahantu inyuma y'inzu, rigaragaza ahantu insinga z'amashanyarazi zihurira. Ipironi rikomeye ry'ibyuma, hejuru hariho insinga zitambuka zitwara amashanyarazi.

Ipironi ritwara amashanyarazi aho turuzi aho asinga zihurira, hirya yaho hateye ibiti by'imigano n'ibindi biti by'ipapayi, hasi hakaba hari jaride irimo ibimera bitandukanye nk'imboga, iryo pironi ritwara amashanyarazi riyajyana mu duce dutandukanye duturiye aho hantu riherereye.

Umuntu bafunze akaba yaje kuburana, ari kumwe n'umu avoka we umuburanira ndetse bafite ikaramu, hirya yaho hicaye abandi bantu na bo baje kuburana cyangwa kumva urubanza.

Ikamyo ya fuso itwaye imizigo itwikiriye, imizigo ntabwo bayitwereka neza, imbere yayo hari umumotari utwaye umugenzi basa nk'ahantu bagiye hanyuma hari n'umugenzi ufite igikapu uri gutambuka iruhande rw'iyo kamyo.